Ubushakashatsi burimo burakorerwa ku gihingwa, kirimo kiraterwa intungagihingwa. Kiracyari mu gihoho, aho kigihabwa ibikenerwa kugira ngo gikure neza.

Ifumbire yifashishwa mu kongera intungamubiri z'igihingwa ikaba yuzuye yigwije imyunyungugu nkenerwa n'igihingwa.

Kuvomerera n'igikorwa kiba batera imiti igihingwa giterwa imiti cyangwa se gihabwa amazi gikeneye. Kibashe kubona intungamubiri gikeneye kugira ngo cyere cyangwa se gikure neza nta burwayi kigizemo.

Imashini ivomerera imyaka cyangwa se gutera umuti, kuhira igihingwa kugira ngo kibone ibigitunga ndetse n'amazi akigaburira achira bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi bwiza bugezweho.

Ubuhinzi bukoreshejwe ikoranabuhanga. Mu bushakashatsi mu mikorosikopi, igikoresho kireba uburyo ikimera gikura, n'intungamubiri nkenerwa kuri iki gihingwa, ubushakashatsi burimo burakorwa hagati y'igihingwa hifashishijwe n'ibinyabutabire bitandukanye, muri laboratwari cyangwa se mu nzu y'ubushakashatsi yabugenwe.

Ubuhinzi bw'inyanya， zirimo guterwa umuti， kugira ngo zizatange umusaruro ukwiye， harwanywa ibyonnyi， kugira ngo bitaza kuzangiza，mu buryo bwo kuzifasha kugira ngo zikure neza zifite ubudahangarwa.

Umusaruro w'amafi, amafi ni ubworozi bukorerwa mu mazi, ugatanga umusaruro mwinshi kandi uba ufite intungamubiri zikenewe mu buzima bwa muntu. Umubiri w'umuntu amafi arakenerwacyane, cyane cyane mu bana batoya.

Ahabikwa ibicuruzwa bitandukanye bishobora kubora, kugirango bikomeze kugumana ubuhehere byari bifite bidatakaje, cyangwa byambuwe nibindi binyabizima, ngo bibyambure ubuziranenge bwabyo . Aha ni mububiko bwabyo cyangwa se muri firigo.

Ibiryo bisa neza, biteguye neza, birimo ifiriti y'ibirayi, ifi itetse neza ihiye neza, ifite utuntu indyoshya biryo imbuto frote, ndetse n'agasarade kabiherekeje kari munsi. Urabona ko ari ibiryo biryoheye amaso, kandi biryoshye.

Ifi iteguye neza itatse, ibasha kuribwa, hakaba hakenewe uburisho kugira ngo ibi byo kurya biribwe, bikeneye ubugari cyangwa se n'ifiriti yo ashobora kurisha iyi fi.

Ubucuruzi bw'amafi ateguye neza yiteguwe kugira ngo aze guhabwa abakiriya bagiye kuyateguramo amafunguro.

Indyo nziza yuzuye irimo amafi n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara imboga indyo rwose iruzuye neza indyo yuzuye neza kandi iryoheye n'amaso.

Hano hari ibiryo biryoshye: harimo amafi gakaranze, harimo igitoki, harimo n'ibirayi n'inyanya ndetse n'imbuto, ariko ibi biryo biraryoshe cyane.

Amafi ari muri barafu kugira ngo atangirika, ataribwa na za bagiteri ndetse na mikorobe bitewe n'uko iyi barafu iyarinda kuribwa n'utwo tugirangingo dushobora gutuma yangirika, bityo agata agaciro.

Amafi avanywe ku isoko cyangwa se gajanwe ku isoko kugira ngo habeho kugakoresha ibyagenwe, niba ari ugucuruzwa cangwa se gagiye gutegurwa nk'amafunguro.

Imboga za pinari zeze zishobora gusarurwa zigakoreshwa ku meza cyangwa se zikaba zanyura, zavangwa n'izindi kugira ngo zivemo ibyo kurya byiza byujuje intungamubiri zikenewe.

Igihingwa cy'igihaza, cyangwa bakwita uruyuzi, uruyuzi ni ikimera kirandaranda, kigatanga imbuto mu bwoko bw'imboga, cyangwa bita ibihaza. Ni ikimera cyiza, igihingwa gifasha cyane cyane abagabo.

Mu bimera haba ibya cimeza n'ibiterano hari pasiparama igomba kuba yaratewe, ariko hari n'ibindi byatsi byimejeje, hari n'ibindi biterwa nk'ibinyomoro imbwija bitandukanye byose n'inturusu ibyo nibyo bigira ishamba.

Ahantu hatuwe, cyakora hakorerwa n'ubuhinzi buciriritse, mu bihingwa ngandurarugo, ndetse harimo n'ikidodoki gishobora kuribwa amababi, cyangwa se imbuto zacyo, insina zitari nyinshi zitari urutoki rusanzwe, ariko ari insina imwe, ndetse n'ubundi buhinzi bw'ibirayi cyangwa se...

Ishyamba ,ishyamba ry'ibiti ,iri shyamba ry'iriterano. Ibiti bizwi nk'ibihaha by'isi, aho bishobora gukurura, bituma habaho guhumeka bigakurura imvura ikazana amazi. Kandi imvura itera ubuzima bwiza, aho iguye mugihe idateye ibiti bishobora kurinda isuri, nyamara bituma tubona na none...

Ubuhinzi bw'amajeri arimo kuyanga atari yera ariko ni igihingwa cyiza kibonekamo intungamubiri, k'ikinyamisogwe kibonekamo intungamubiri zitandukanye kandi zigirira umubiri akamaro.

Ku kigo cy'amashuri abagenzi barimo baratambuka, umugenzi utambuka akaba ari kugenda ku igare, atwaye amata, cyangwa se n'ibindi bisukika bibitswe mu majerekani, arimo yerekeza mu rugo cyangwa se ku isoko.

Nyuma yo gusarura umusaruro w'ubuhinzi bw'ibigori, harimo harategurwa kugira ngo habe hajyamo ikindi gihingwa. Abahinzi rero ni byiza ko batunganya ubutaka, nyuma yuko bakuye umusaruro wabo ku butaka, ni byiza kuwutegurira kwakira ikindi gihingwa, batunganya bakuraho ibisigazwa by'igihingwa gi...

Ishyamba ririmo kuyuburura, nkahari ishyamba riratemwa cyangwa se rirasarurwa ubu rikaba riri gushibuka. Ibiti birimo gushibuka bizongera bikure kandi bitange umusaruro, kuko bigaragara ko byashibutse neza kandi biri gufata bikeneye kuzongera gukorerwa kugira ngo bikure neza.

Iki ni igihingwa c'urutoki cyakora gishobora kuba kizavangirwamo n'ubundi buhinzi mu myaka itandukanye bitewe n'uko bigaragara ko hari umwanya munini hirya y'insina ziri hamwe ahangaha.

Ubuhinzi bw'ibitunguru, ibitunguru nigihingwa cyangwa se ikimera cyifashishwa mu kuryoshya ibiryo, no gukabura umubiri kugirango ukore neza cyangwa se utunganye neza indyo umuntu urwa.

Mu biti biterwa hari na gereveriya, ikigaragara ni uko ibi ibiti byatewe kugira ngo bifashe kuzana gufata ibicu mu kirere bize gutanga imvura ku baturage. Bikaba ari na bimwe bituma habaho abaturage batera bikorana n'ibihingwa ku buryo bitangiza ibindi bihingwa.

Nyuma yo gusarura ibigori hari ibisiga ibisigazwa byasigaye inyuma bitaratemwa kugira ngo ahantu hatunganwe, icyiza n'uko byagatemwe, bikaryama hasi kugira ngo bize kuba byakora ifumbire ,kugira bizafumbire indi myaka izakurikiraho.

Ubutaka buteguwe kugira ngo bujyemo igihingwa. Nyuma yo kubwuhira no kubutegurira kujyamo igihingwa cyaba icy'ibirayi, ibishyimbo cyangwa se ibigori ndetse...

Hafi inyuma y'ikigo cy'amashuri hari inzira abantu banyuramo, umuntu utwaye amazi ashobora kuba avuye kuvoma yerekeza imuhira, inzira iri inyuma y'ikigo cy'amashuri bigaragarako habera imikino n'ibindi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga z'amashu ariko budateye imbere cane. Bufite imbogamizi zo kuba hagomba kuba hatari kuvomererwa kw'izi mboga zaraterewe iyo, abahinzi batazitayeho nk'uko byakagombye.

Ubu n'uburiri bw'umugezi gutembaga umugezi gutembaga ariko kuri sizono Kuta amazi ntago gahoramo ganyuramo igihe imvura yaguye igihe imvura yaguye nibwo amazi gaboneka ahangaha muri ugu mugezi.

Ubwatsi bwiza buhingwa kugirango buze kugabururwa amatungo aha n'ahantu hahinze ubwatsi cyangwa se n'ahantu hari ubwatsi busarurwa bukagaburirwa amatungo bukaba bugaragara ko butoshye kandi bushobora kuba bwakwahirwa bugahabwa amatungo.

Igihingwa cy'ikijumba, iki ni igihingwa cyiza cy'abanyamasukari, ibinyamafufu aho gishobora gutera imbaraga ukiriye. Igihingwa kiri ku isoko gitegereje abaguzi, gitegerejwe abaguzi baza kugihaha ngo baje kukifashisha mu ngo.

Ubucuruzi bw'ibitoki birimo gupakirwa bijyanwa ku isoko, bigurwa ku baturage bikagemurwa, bikajyanwa ku isoko. Aho ababikeneye bahura bakaza kubigura, mu buryo bwo kwihaza mu biribwa.

Ubuhinzi bw'ibirayi, koperative cyangwa se aho bigira bigishirizwa ubuhinzi bateranye bareba uko bagombye gutera igihingwa cy'ibirayi. Imbuto y'indobanure barimo kwigishwa cyangwa se berekwa uburyo bwiza bwo guhingamo igihingwa cy'ibirayi, mu buryo bwa kijyambere.

Umusaruro w'avoka zisaruwe, zigiye kujyanwa ku isoko cyangwa se mu mahanga kugira ngo zitunganywe zibe zavanwamo ibindi bikoresho nkenerwa nk'isabune, amavuta cyangwa se bijyanwe kuribwa mu gihe ubiguze ari cyo agambiriye kubiko....

Imbuto nziza urubuto rwa avoka rukaba ruryoshe kurureba n'amaso, kandi ikigaragara no ku no ku meza rukaba ruteye appeti. Ni urubuto rwizewe nyamara rushobora kuba rwagira n'akamaro kenshi gatandukanye, ko kuvamo amasabune n'ibindi ariko rukaba ruteguye.

Abahinzi bavuye gusarura bafite imboga, ibihingwa ngandurarugo bavuye ndetse no gusarura ibintu bitandukanye biza kubafasha mu buzima bwabo bageze mu rugo.

Igihingwa cy'urutoki insina, insina ikaba ifite umusaruro udahagije neza iragaragara neza, ariko igitoki cyayo kikaba kigaragara ko kitazatanga umusaruro mwiza, bitewe n'uko cyakorewe cyangwa se wenda akaba.....

Igiti cy'umwembe gitanga umusaruro w'myembe, imyembee ikaba iri hafi kwera kugira ngo igere igihe cy'isarura, kiri mu murima hagati w'ibigori ibigori nabyo ubona ko bibiri bigeze igihe cyo kwera mu minsi mike iri imbere.

Iki ni ikigori cyokeje bigaragara ko cyiteguye guhabwa abaguzi ngo bakigure bakirye. Ni ni bizinesi ni bizinesi, mbese ni ubushabitsi bukozwe n'umuntu uciriritse, witeguye kubuha kubiha abakiriya kugira ngo abaguzi, kugira ngo babirye cyakora bikaba biryohe ijisho.

Igihingwa kigira intungamubiri nziza ndetse n'ubukabure, senda rwa kijyambere kaba bifashishwa mu kuryoshya cyangwa se nk'ibirungo mu biryo bitandukanye byategurwa mu buryo butanduka...

Ubuhinzi bw'imboga, z'amashu, hari igihe cy'isarurwa isarura igihingwa cy'amashu kigiye kujyanwa ku isoko. Amashu rero ashobora gutekwa nk'imboga, cyangwag se akaribwa nka sarade ari mabisi.

Arimo arategura komposite ahantu hatunganyirizwa ifumbire mu buryo bugezweho bwo gutunganya ifumbire yavuye ku myanda, yakusanijwe ahatandukanye, ikaba ari ugutunganya uburyo bwo kuyibyaza umusaruro ikavamo ifumbire ntungagihingwa, ikungahaye ku butare.

Kuhira imyaka bikozwe mu buryo bwa kijyambere n'amamashini y'ikoranabuhanga, ni igikorwa cyiza. Ibihingwa harimo ibigori biruhirwa bikabona amazi bikeneye ku gihe, bitabaye ngombwa gutegereza imvura. Izi mashini zishobora kuvomera iki igihingwa kikabona amazi gikeneye. Bityo kigakura neza kitishwe n'izuba.

Ubuhinzi bw'amapera, igiti cy'amapera ni igiti gitanga umusaruro, imbuto zacyo zikaribwa n'abantu ndetse n'utunyamaswa tw'inkende dushobora kurya kuri uyu musaruro. Bigafasha cyane tugira vitamini n'intungamubiri nziza cyane zifasha umuntu.

Imbuto ni ikintu ciza, kandi iyo zisaruwe zibaga zigomba gukoreshwa zikaribwa. Iyo rero zitinze zishobora kurengwa zikaba zitagifite akamaro zagenewe. Hari izera cane izo zikaba zaryoha izitarera neza izo ziba zibasha kuba zishobora kuba zitaryohera abazirya, ariko muri rusange imbuto zose zigira...

Abantu batwara imizigo ku magare, aba by'umwihariko bakaba batwaye imbuto z'inanasi, bigaragara ko bazijyanye ku isoko cyangwa se bavuye kuzisaga.

Ubucuruzi butandukanye, harimo ibikoresho bya parasitike. Harimo ibiribwa nk'imyumbati n'ibindi bitandukanye, bigaragara aha ngaha. Gusa ni igikorwa cy'iterambere ry'abaturage.

Igitoki iyo kimaze iminsi gishobora kwana kigahinduka imineke, nyamara atari byo cari categanirijwe. Ni byiza ko iyo caciwe nk'uku nguku gishobora kugezwa ku isoko abagikeneye bakagikoresha, mbere yuko kineka. Kuko nyuma yo kuneka gishobora kwangirika. Ariko iyo caje nk'uku nguku kiba gikeneye abantu bagikore bakigura cyangwa se kigakoreshwa vuba.

Igikorwa cyo gusarura igihingwa cy'ibirayi, aho hifashishwa amasuka abantu bagerageza no gutunganya ubutaka, mu gihe basarura igihingwa cy'ibirayi cyari cyeze kur'ubu butaka.

Ubucuruzi buciriritse bw'imbuto, imineke, utunyanya abo bakunda kwita abazunguzayi bakaba bateretse ahantu kugira ngo abahisi n'abagenzi bakenera kugura izi mbuto ziciriritse bazigure bajye kuzifashisha mu rugo.

Ubuhinzi bw'imyembe imyembe yahinzwe yiteguye gusarurwa vuba kugira ngo ijyanwe kw'isoko iteze imbere abayihinze kandi ibe nibyo kurya byiza kuba yigura igihingwa cy'imyembe.

Igitoki cya gisubi cyeze neza, gikeneye gusarurwa ngo kibe cyavamo imineke cyangwa se gikoreshwe ikindi cyateganijwe. Kigeze rero igihe cyo gusarurwa, birakwiyeko gisarurwa kuko cyeze neza.

Ubuhinzi bw'imyaka itandukanye , mbere y'uko abantu bashyira igihingwa mu butaka barabanza bakabutunganya ndetse bagategura aho icyo gihingwa kizakurira kugira ngo kizagire ubuzima bwiza. N'icyo uyu mubyeyi arimo gukora gutegura ubutaka no kuwutunganiriza kuzakira igihingwa kugira ngo gikure neza.

Gutera umuti ibirayi ni ikintu c'ingenzi cane, kuko bitumaga bibagaho bitoshe, bifite ubuzima bwiza, ndtse bigatanga n'umusaruro ugereranije. Ugereranyije n'ibindi bihingwa baba bitabonye umusaruro bitabonye intuburagihingwa ndetse n'ingaburiragihingwa bihagije nkuko byaba ku wateye.

Ubuhinzi bw'urutoki n'ikawa, ikawa n'urutoki ni ubuhinzi bumwe ngenga ngandurarugo, ubundi bukaba ubuhinzi ngengabukunguku, gihingwa ngengabukungu. Ikawa ni ngengabukungu, urutoki n'igihingwa ngandurarugo. Ibi byose bikaba bishobora guteza imbere umuntu ubikora.

Umusaruro w'amateke iki ni igihingwa ngandurarugo, ikinyamafufu gitera imbaraga umubiri, ku bagihinga kibasha kubafasha mu gihe cyeze neza kigasarurwa, cyafasha abagize urugo, ndetse kigateza imbere n'ukora ubuhinzi bwacyo. Ni igihingwa cyiza cyane rero tubona cyasa...

Igihingwa k'inanasi keze neza, zirimo gusarurwa kugira ngo zijyanwe ku isoko aho abaguzi bari buzigure ndetse bakazijyana murugo bakazikoresha ibyagenwe cyangwa se zigatunganywa zikavanwamo ikinyobwa binyuze mu buganda.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo buteye imbere nka kijyambere buragara kwik'igihingwa gitoshye kandi gifite amazi n'intungagihingwa ihagije ugene ugenekere.

Ubuhinzi bw'urusenda bwa kijambere, ubuhinzi bukozwe mu buryo bwiza buteye imbere bw'urusenda rwa kizungu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ikintu gitezaga imbere abaturage, ubu rero ihene n'intama cane cane ihene nizo zikunda kuribwa cane mu mahoteli no mu mabara, aba rero aha rero hakorwaga ubworozi bw'ihene zitezaga imbere cane abaturage bo mu caro.

Ubucuruzi bw'inanasi n' imbuto muri rusange. Izi nanasi ubona ko ziteye neza zasaruwe vuba kandi zikaba zigifite intungamubiri zose nk'uko ziba mu nanasi.

Inyanya ni igihingwa gitanga imbuto cyangwa se imboga zikaribwa ku isoko gishoborakoreshwa gitetswe cyangwa se kikaribwa ari kibisi gikatiwe, ku imboga kigakoreshwa nka salade.

Harimo gukorwa amaterasi y'indinganire; aho ubuhinzi buzakorerwa neza hatabayeho ku... isuri, uburyo bwo kurwanya isuri bwiza ni ugukoresha amaterasi y'indinganire, kugira ngo ifumbire cyangwa se n'ibihingwa bisigare bitekanye mu gihe habaho kugwa kw'imvura.

Ababyeyi barimo barakora imirimo ya viyupi. Barimo bashyize hamwe kugira ngo bakore bakorere umurenge wabo cyangwa se akarere k'iwabo kagire iterambere rihuriweho.

Inkwavu zisa neza, amatungo magufi, ubworozi bushobora guteza imbere ubukora abukunze, aho bushobora guteza imbere, ubukoze neza, kandi mu by'ukuri utu tunyamanswa kutureba turashimisha cyane, n'imikorere yatwo iratangaje.

Ubuhinzi bw'ibigori bukozwe mu buryo busanzwe gakondo, ibihingwa bishobora kuba bifite ikibazo cyo kubona ibigitunga bidahagije, ariko biri hafi kugera igihe cyo gusarurwa.

Ubucuruzi butandukanye, harimwo umuceri ucuruzwa ku kiro, cyangwa se ku ngano ntoya, amavuta yo kurya, buto, ibihwagari, n'ibindi. Aha hacururizwa ibiribwa, ndetse n'utundi tuntu dutandukanye bakunda kwita gaconsho.

Umusaruro w'inanasi unejeje uteye ubwuzu, igihingwa kiza imbuto cyane cyane inanasi zikaba zifite zigira karisiyumu zikaba zifite vitaminini se. Iyi vitaminini igira umumaro cane ku buzima bwacu abakuru ndetse n'abana zikaba zishobora kubarinda indwara nyinshi zitandukanye kandi zibatera ubuzima.

Umusaruro w'ibirayi uri ku isoko wazanwe n'abaturage batandukanye cyakora ushobora guhahwa nanone n'abaturage b'ingeri zitandukanye, utari umuguzi umwe cyakora bashobora kuba ari abaguzi batandukanye bagenewe bateganijwe guhaha ibiribwa ,igihingwa cy'ibirayi imbuto ya kinigi nziza iryoheye ijisho.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere, bw'inyanya. Inyanya rero zikaba iyo zihinzwe gutyo muri ubu buryo, zishobora gutanga umusaruro uhagije, kandi zikaba zifite n'ubuziranenge.

Igikorwa cyo gusarura igihingwa cy'icyayi, icyayi kirimo gusarurwa kugira ngo kijyanwe ku ruganda giteza imbere abigikora, ndetse kikinjiriza igihugu amadovize.

Imbuto z'amapera zikitoshye cyane sivuye gusarurwa ubona ko ziryoheye amaso mbere y'uko ziribwa nyuma yo gusarurwa rwose, nibwo zigisarurwa ziteguye kujyanwa ku isoko.

Ubucuruzi bw'ibirayi bitandukanye ibicuruza by'ubwoko butandukanye abantu bakundaga kurya igihingwa c'ibirayi bakaba hano bashobora kuhahira bakabibona bityo ubuzima bwabo bukagenda neza.

Igihingwa cya avoka, voka ikaba ari igihingwa gikungahaye cyane ku butare kifitemo intungamubiri nyinshi zitandukanye, uyu akaba ari umuhinzi wa avoka urimo kuyigaragaza ku buryo ari urubuto.

Ubworozi bw'ingurube bukorwa neza igihe bukorewe mu kiraro kuko zibasha kwitabwaho ndetse hakamenywa ko zitangije ibindi bihingwa. Ikigaragara ingurube bifite ikibazo gishobora gukemurwa n'umuveterineri.

Arimo gusarura icyayi , afata amababi y'icyayi agashyira mu gitebo kugira ngo akusanyirize hamwe uyu umusaruro ujyanwe ku ruganda, nyuma yo gutunganywa hakazavamo icyayi , icyayi cyiza cyane kiryoshye.

Hagomba kubaho guteza imbere abaturage hahingwa ibiti by'imbuto ziribwa kugira ngo habeho kurwanya inzara mu baturage ndetse kurwanya imirire mibi y'abana ituruka kurya indyo ituzuye. Ibi rero bizafasha mu kugira ngo abana bitabweho ndetse n'abakuze babone ibyo kurya by'imbuto bitunga ubuzima.

Ubuhinzi bw'ibirayi. Biratoshe bimeze neza, ni uruyange. Umuhinzi wabyo rwose urabona ko yizihiwe, ategereje umusaruro uzava mu buhinzi bwe bumeze neza cyane. Arimo aratambagira ngo arebe ko hari ibyangiritse cyangwa ko hari icyo yakorera iki gihingwa cye kiryoheye amaso.

Harahuzwa umusaruro w'imiteja. Imiteja ni kimwe mu bihingwa byakwitwa mu mboga bikaba birinda indwara ndetse bikaba mu bihingwa bigira indyo yuzuye.

Isombe ni ni ikiribwa cy'imboga gishobora kuvangwa n'ubundi bwoko kugira ngo bitange ibyokurya bibereye cyangwa se bikungahaye ku rutare bikenerwamo.

Kuhira igihingwa mu buryo bwa kijyambere, hakoreshejwe imashini z'ikoranabuhanga, n'uburyo bukorwa bukuhira igihingwa neza kandi mu buryo bwihuse, bikaba byatuma hatabaho kwanduza indwara iki gihingwa, bitewe nuko bikorwa nta muntu uhageze ushobora kuba yakwinjirana ubwandu bw'udukoko dushobora kwangiza .

Urusenda rwa kijyambere ni igihingwa ngengabukungu, gishobora gufasha ugikoze. Uhinga iki gihingwa gishobora kumuha amafaranga, ndetse kikinjiriza igihugu amadovize.

Gusarura igihingwa cy'ibijumba hifashishijwe igikoresho cyabugenewe isuka, ibijumba bigasarurwa imigozi igashyirwa ku ruhande n'ibijumba bikabikwa ari byo aribwo musaruro ukenewe kujyanwa ku isoko cyangwa se imuhira.

Ubucuruzi buciriritse bw'imboga, ibidodoki bamwe bita ibishayote, cocobre ni imboga rwose ziteguwe neza, zigira intungamubiri nziza ku buzima cyane cyane ku buzima ku buzima bw'abagabo. Ni abacuruzi bamwe twakwita abacuruzi bo ku muhanda.

Ibirayi birimo gusarurwa, bari kubikura, barabikura mu butaka, barabishyira hejuru, igihe kiragera baze kubitoragura babijyane mu mufuka cyangwa mu gitebo, babijyana mu rugo cyangwa babijyana ku isoko.

Igihingwa cy'amashu amashu ni igihingwa gikunda korerwa cyane ni imboga zikunda kwera cyane mu gice c'amajaruguru zigakundwa no kugurwa kubera ko ziba zihendutse mu gihe cy'umwero wazo.

Ubuhinzi bw'ibigori n'ibishimbo bimeze neza kandi bihinzwe mu buryo bwa kijambere bigomba kuba byaritondewe kandi bikaba biteye ubwuzu bigaragara ko ibi bihingwa byabonye imvura ihagije kandi n'uwabihinze yabihinze abyitayeho.

Ubu ni ubuhinzi bwa puwavuro, ni igihingwa kibonetse vuba ariko kigomba kuba caraje cane kubera amahoteli, kandi kikaba ari ikirungo kiryoshaga ibiryo haba kubarya urusenda, abatakarya agasenda ibi birabafashaga cane, bigakabura umubiri ndetse bikaryosha amafunguro.

Igihaza igihingwa cyiza cyane kigira intungamubiri cyane cyane ku bagabo, kikaba gishobora gufasha ku myanya myibarukiro yabo.

Isekurume y'ihene igaragara nk'aho ari iyo mu ishamba , yego abantu bakunda cane cane iyo abantu bakunda kurya ihene cyangwa akaboga ibi barabikunda ikiga....

Igihingwa c'igihaza, igihaza ni igihingwa cyiza ngandurarugo, gitera ubuzima bwiza cane cane ku bagabo, kikaba gifasha ku myanya myibarukiro.

Viyupi igikorwa abaturage bahuriraho bakagikora bagahabwa umusanzu na Leta, bakiteza imbere ariko nabo hari igikorwa gifitiye igihugu akamaro bagira.

Umusaruro w'ibigori mu rwanikiro, aho uba witegura gutunganywa kugira ngo ujye mu bubiko nyirizina, aha naho utegerereza kugirango ubanze wume neza, hanyuma ujyanwe utunganywe ujye mu bubiko, bimaze guhungurwa neza impeke ziri ukwazo n'ibitiritiri byagiye ukwabyo.

Imbuto ,itunda rya marakuja, itunda ryiza cyane ritanga uburyohe, ritera uburyohe ndetse rikaba rishobora gutuma umubiri ugira ubudahangarwa ,ukabasha gutuma umubiri urindwa indwara ,cyangwa se ugafasha kwirinda indwara ,ni urubuto rwiza cyane.

Ibigori bimeze neza cyane biragaragara ko byitaweho, kandi bikaba bihinzwe mu buryo bwa bwa kijyambere, aho ubona ko byitaweho kandi biranejeje, bigiye kwera ubu byaribwa bikiri bibisi cyangwa se hagategerezwa ko umusaruro ubanza gukura, bikazavamwo ifu yakawunga.

Umusaruro w'ibirayi ufunze neza witeguye kujyanwa ku isoko, kugira ngo ukurwe aha ngaha watunganyirijwe ujyanwe ku isoko, kugira ngo ugurwe hanyuma ugere ku baguzi kandi bawukoreshe ubatungire urugo.

Igihingwa cyangwa se ikimera bita ishu, ni uruboga, igihingwa gishobora guteza imbere ugikora, nyamara kigakunda cyane gukorwa, gutekwamo imboga cyangwa kikaribwa nka salade bitewe n'uburyo umuntu ashatse kugitegura ,kera vuba kandi kigateza imbere cyane ugikoze.

Imbuto z'ingano ziryohaga cane, izi ni zo zivagamo ifarini itanga itangaga umusaruro w'ibivaga ku ifarini harimo imigati, amandazi.

Ubuhinzi bw'amasaka arimo gusarurwa, cyakora bigaragara ko atarera neza yose, abasaruzi baragenda batoranyamo ayeze , kugira ngo baze gukuramo ikinyobwa gishobora kubasamira cyangwa kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi.

Iki ni igihingwa cy'ikawa, cy'ikawa, ni ibitumbe hanitswe yiteguwe kujyanwa ku ruganda, hiteguwe kuba yajya yajyanwa ku ruganda.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bikozwe mu buryo bwa kijyambere bikaba bigaragara biteye neza rwose, ndetse bikaba byatanga umusaruro ukwiye bitewe n'uko byitaweho, bigaragarako biteruye umumero wabyo uzamuka neza biteye ubwuzu.

Arimo gukora, gutegura uyu mubyeyi, arimo gutegura imbuto z'ibirayi, ndabona ari ibikorwa c'ubutubuzi, ibikorwa rwose kizateza imbere ubuhinzi bwo mu majaruguru, inaha mu Kinigi ubuhinzi bw'ibirayi.

Umusaruro gw'ibigori, gukaba guri ku rwanikiro gutaratunganywa neza kugira ngo guje mu mashini, gukaba gukiri mu rwanikiro ariko noneho gukaba gutegereje kuzatunganywa neza kugira ngo havemo ifu yabugenewe.

Umusaruro w'ingano, iki ni igihingwa cyiza kivamo ifarini, ifarini itanga imigati, ndetse n'ibintu bitandukanye biba ibiribwa by'abantu, umusaruro wabayeho kuva kera nanubungubu ukaba ugifitiye akamaro abaturage.

Ibigori byiza bita mayizori, ibigori bitanga umusaruro mwiza, ubereye amaso. Iki ni igihingwa gitera imbaraga, ndetse kikaba gifite intungamubiri nyinshi, umuntu akenera mubuzima bwe bwa buri munsi.

Uyu ni umumero w'ibinyabisogwe bigaragarako witaweho kandi utangiye ufite intungagihingwa zihagije zishobora kugifasha kugira gukura neza, ndetse no kuzagira kuzatanga umusaruro mwiza wizewe, kandi byahinzwe mu buryo bwakijyambere.

Umuceri cyangwa se ibigori n'ibishyimbo biteguye kujyanwa ku isoko cyangwa se ku ruganda, kugira ngo bitunganwe havemo ibikenewe umusaruro urangiye, utunganijwe neza.

Imbuto y'ingano, ni igihingwa cyiza cyane kivamo ifarini, ifarini itanga imigati, amandazi. Umusaruro uva ku ifarini ni umusaruro ukomoka ku ifarini, ni ibintu byinshi biva ku rifarini, ifarini ituruka cyangwa se cyangwa se iva mu gihingwa cy'ingano.

Ubunyobwa bwiza cyane ni igihingwa ngandurarugo kikaba cyakwitwa ngengabukungu ariko gifite intungamubiri nziza cyane ku mubiri wacu, kandi kikaba gifite akamaro gakomeye haba mu bukungu, ndetse no gutunga ubuzima bwa muntu.

Amasaka yinitswe yiteguye we kuzavamo igitende cangwa se ubushera ariko akaba gakaba gamaze kuvangwa n'itazi cyangwa se ivu kugira ngo bitunganywe gaze kuzakoreshwa gavemo ubushera cangwa se umusuru.

Imbuto z'ibihaza zishobora kuvamo ingemwe zabyo cyangwa se zigatunganywa, zikaribwa . Zishobora gutunganywa , zigaterwa, zikazavamo ibindi bihaza cyangwa se zigatunganywa zikavamo ibyo kurya mu buryo ziba zabanje kunyura mu mashini.

Ibishyimbo byiza cyane bigaragara by'ibara ryiza biryoheye amaso, ni imbuto cyangwa se igihingwa gitanga umusaruro unejeje kandi utuma abaturage batagira inzara. Ni ikiribwa kiribwa mu gihe cyose ku mafunguro ayo ariyo yose, kikaba ari igihingwa cyiza kibereye abaturage.

Ubuhunikiro cyangwa se sitoke ibika imyaka cyangwa se ibicuruzwa, kawunga, umuceri n'ibindi bishobora kubikwa aha ngaha mu bubiko ku buryo bidakora hasi, bitagira aho bihurira n'ubuhehere, cyangwa se ngo bibe byakwangizwa n'izindi mikorobe zishobora kwinjiramo zikabyangiza.

Igihingwa cya soya ni ikinyamisogwe kigira intungamubiri zitangaje, gikundwa n'abantu benshi baba abasanzwe ndetse n'abize, abatarize ndetse n'abize bazi agaciro k'iki gihingwa cya soya, kikaba kiri hafi gusarurwa.

Ubwanikiro bw'ikawa aho bakusanyiriza igihingwa ngengabukungu kigatunganywa. Kugira ngo cyume neza kijye mu ruganda cyakamuwemo amazi gisigaranye umwimerere wacyo.

Mu buhinzi bw'amasaka, amasaka ni igihingwa ciza cane gishobora kuvamo ubushera, gishobora kuribwa n'impeke, ariko abantu bashobora no kukirya kigisarurwa, akaba ari uburyo budasanzwe ariko cyafashije abantu cyane cyane mu gihe cy'inzara. Abantu bashobora kunywamo igikoma, hashobora kuvamo ifu y'igikoma, hashobora kuvamo ikinyobwa cy'abantu.

Imbuto y'ibigori inze guhingwa cyane mu majyaruguru y'igihugu, ikagira amabara meza kigomba kuba ari igihigwa cya iburide ibigori byiza biba bifite ubwiza karemano, ku buryo ubireba ubona yizihiwe mu maso. Iyi ni imbuto rero bigaragara ko iteguwe kuzaterwa no mu bundi butaka.

Aho bororera inkoko zirimo zira ziri gutoragura ibiryo byazigenewe ndetse ziri kunywa n'amazi ,nk'uko abazororora babiteguye.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni kimwe mu bitezaga abaturage b'amajaruguru imbere. Biragaragara ko ari umubyeyi wazanye ihene ye n'undi uyiguze. Ashobora kuba agiye kuyijana mu kabari se kuyiryamo za burushete cangwa se nawe kuja kuyorora, ariko bose ari uwayiguze n'uyigurishije bose barishimye cane cane.

Ubworozi bw'inkwavu mu kirunduro, ububuryo busanzwe bukoreshwa n'abantu borora inkwavu, zikaba ziri mu kirunduro cyangwa se mu nzu.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube iri mu kiraro cyayo, ndetse ikaba iri kumwe n'ibibwana byayo, yasuwe, bigaragara ko hakorerwa ubworozi butandukanye, kandi bubasha guteza imbere ababukora, ndetse bakaba banasuye ubu bworozi.

Utwana tw'ihene turimo turakimbagira dukina hafi yaho nyina iziritse. Ihene ni itungo rigufi rikunda kubyara utwana turenze kamwe, akenshi tuba ari tubiri cyangwa se tukarengaho, turabona ko turishimye turambagira hafi y'aho nyina iziritse.

Ubworozi bw'inkoko , inkoko ni ubworozi bushobora guteza imbere cyane ubukoze , bugatanga umusaruro , kandi bukaba umusaruro wabwo ukaba ibiribwa , ibyo kurya bifite intungamubiri zikenewe ku mubiri w'umuntu .

Ubworozi bw'inkoko mu Rwanda, ni kimwe mu byatejwe imbere kuko ari byiza kandi byoroha kuzorora mu kiraro, ni yo mpamvu izi nkoko tuzibona aha ngaha zinezerewe, kandi ubona ko ziguwe neza kuko ntabwo zifite umujagararo, ahubwo ziratuje kuko zabonye ibyo kurya kandi zirarinzwe, zizeye umutekano zahawe....

Ubworozi bw’ihene bukorewe mu kiraro. Aha, ihene ni itungo rigufi ryororewe mu kiraro, rifite ubwatsi, ariko rikabasha gutanga n’ifumbire, kandi ifumbire y’ihene ikaba nziza. Ubworozi bukorewe mu kiraro ntabwo bwangiza cyangwa se ngo butere amakimbirane mu baturanyi.

Inyambo : Inka z'iinyarwanda ubona ko ziteye neza, amahembe yazo arererana kandi aragaragara neza. Ni inyamahoro, ziratatse kuko zigendanye cyangwa ziberanye n'ubukerarugendo, zikaba zisa neza kandi bigaragara ko zitabwaho cyane, zerekana umuco nyarwanda. Inka ni ikimenyetso cy'ubukungu.

Ubworozi bw’inka bukorewe mu kiraro ni yo gahunda Leta y’u Rwanda ishyize imbere. Ubworozi bukorerwa mu kiraro, aho amatungo ashobora gushakirwa ibyo kurya bikaza aho ari.

Inkoko zikuze zigeze igihe cyo gutera amagi, cyangwa zikaba zigeze ubwo zishobora kujya ku isoko zikagurishwa zigatanga umusaruro, ndetse n'amafaranga kuri nyiri ugukora ubu bworozi. Ubona ko anezerewe, yishimiye ubwo ubworozi bwe.

Ubworozi bw'ingurube, ni igikorwa gishobora guteza imbere cyane ugikoze kandi vuba, ingurube imwe ishobora kubwagura ibibwana icyenda byose icyarimwe, kandi ikabikuza bitewe n'uko yitaweho neza, ikagaburirwa kandi igakorwa isuzuma, ndetse n'abaveterineri bakayisura ku buryo bwagenwe.

Abaganga barimo kubaga， mu kubaga bashyize hamwe，bamurika ngo barebe igikenewe， niba ari imyanda yaba irimo，aho babaga kugira ngo ikurwemo，ariko bikaba byakoranwe ubushishobozi，ndetse abantu batandukanye， bashyize hamwe kugira ngo bakemure ikibazo gihari.

Umusaruro w'amagi, amagi yakusanirijwe muri iki cyumba yitegura kujya ku isoko. Biragaragara ko hakorwa ubworozi bw'inkoko. Iki ni igikorwa Abanyarwanda bakoze kandi bakiteza imbere. Umusaruro ushimishije uragaragara kuko ibi biragaragaza kugera ku iterambere ndetse no kwihaza mu biribwa.

Ubworozi bwa kijyambere, ubu ni ubworozi bukorerwa mu kiraro, hari itungo ry'inka, ariko isa nkaho ifite ikibazo, ariko ikigaragara ni uko ryororewe mu kiraro. Ryitabwaho n'abaveterineri, rishobora kuba rifite uburwayi, birashoboka ko ushinzwe kuyitaho yaje kureba ikibazo iri tungo ryari rifite, cyangwa se Inka ifite kugira ngo ayivuge.

Isoko ry’amatungo ni isoko ry’amatungo, cyangwa se ahantu bororera baba barindiriye ko bakoresha amatungo, inka icyo bateganije. Haba ari ukuzigurisha cyangwa se kuzimura, bakazivana hamwe, bazijyana ahandi. Aha ni ho ziruhukira, bamaze kuzigura.

Inkwavu zituje cyane, ziri mu kirunduro cyazo ,aho zirara ,ziruhukira ndetse zikahagaburirirwa . Zirizihiwe biragara ko ari ibyana by'inkwavu biri aha ngaha.

Ubworozi bw'ingurube bukorewe mu kiraro ariko zikaba zororerwa hamwe zitandukanye. Ni nyinshi zorerwa mu kiraro rusange ikiraro rusange cy'bworozi bw'ingurube.

Ubucuruzi bw'amagi. Amagi apanze neza mu matureyi ya matureyi gayo, aho yiteguye kugajyana ku isoko. Amagi gakaba garitaweho mu buryo butandukanye.

Ubworozi bwa kijambere, ariko ikigaragara ni uko aga matungo gari hanze gagombye kuba gari mu kiraro nk'uko leta yabiteganije, ibi biraro byagombye kuba birimo aya aga matungo, ariko amatungo gagiye hanze, ni uburyo mu buryo budakwiriye. Hagombye kuba.

Inyana nziza ifite n'amaherena, cyangwa se ibiyiranga, amatwi yayo akaba ariho nimero zayo, inyana ikaba ishobora kuba iri gushoka, cyangwa irimo irashaka kwikura akanu izuru ryayo uko bigaragara kuri iyi foto.

Ubworozi bw'ingurube, ingurube iri mu kiraro cyayo irizihiwe yakorewe amasuku, ikaba ifite n'ahantu hateguye ifatira ibyo kurya byayo, ingurube ibasha guteza imbere uyorora kandi igatanga umusaruro, mu gihe kitarambiranye.

Ubworozi bw'inka bukore mu kiraro, biragaragara ko umuveterineri yaje kwita kuri iyi nka ayiteru urushinge, haba guterwa intanga cyangwa se kuvurwa mu buryo bwa kizungu, ihabwa imiti iza gutuma iri tungo rikomeza kugira ubuzima bwiza, ndetse no gutanga umusaruro nkenerwa.

lnuma ni inyoni ikundwa n'abantu benshi kandi izwiho gutuza no guca bugufi, ntigira kwiyandarika. Iyo bibana ingenzi yayo, itandukanywa na yo n'urupfu, nta kindi kandi iyo ingenzi yayo ipfuye, ubuzima bwayo bwose iburangiza iri yonyine.

Izi ni inuma ziragaragara ko ari ahantu zororerwaga cangwa se akaba barimo zirimo zasuwe zikaba zirimo ziratora, zota akazuba mu gitondo kare kare aho zirimo zizihirwa zizihiwe n'umunsi.

Utunyamasyo n'utunyamaswa tubaho imyaka myinshi, tukaba mu gikoreshwa mu kintu kitwikira kiba gikomeye cyane. Hakaba hari akanyamasyo kabaye ibyana nabyo bikaba bigaragara ko bifite Ubuzima bwiza.

Inyoni, ibishwi zishobora kuba ari ikigabo n'ikigore, zikaba zirimo ziratora ibizitunga, ibizitunga zirizihiwe. Ibishwi bakunda kwita siparo mu ndimi z'amahanga, bikaba biragaragara ko ari ikigabo n'ikigore birimo biratora.

Inyoni ziri mu bintu bikunda gusurwa cane， isundwe ni ibintu biboneka cyane kandi bikanezeza abagenzi，harimo n'abakerarugendo，cane ko bidakunda kuba ahantu hari abantu benshi n'urusaku rw'ibindi bintu， zikundaga ahantu hatujije. Ubwo rero mu mashamba，mu majaruguru ni ahantu inyoni ushobora kuzisanga.

Inkende cyangwa se, cyangwa se inkima n'utunyamaswa two mu ishyamba wiridi animo, dukurura cyane bamukerarugendo duteye neza kandi dushimisha amaso y'abatubona.

Imbogo ni zimwe mu nyamaswa ziba mu gasozi kandi zikaba zikurura ba mukerarugendo. Imbogo rero ni inyamaswa z'ingenzi cane. Cane cane zigaragara mu majaruguru y'Igihugu c'u Rwanda, ndetse n'ahandi hatandukanye.

Uruyongoyongo ikiguruka kigomba kuba kiri kugenda ku mazi, ariko kitarikamo hasi, ni uruyongoyongo cyangwa se umusambi, ni ikiguruka kibereye amaso ku ukibona kikaba gishobora gukurura ba.

Ikiguruka cyangwa se inyoni ni bimwe mubikurura mubikururaga ba mukerarugendo kugira ngo baze kwishimira ikirere ndetse no kureba ibyiza bitatse igihugu.

Inyoni cyangwa igisiga kibereye ubukerarugendo, kibereye amaso. Kikaba kirimo gutora ahantu mu gishanga cyangwa se ahantu hari igihingwa hashobora kuba hegereye amazi.

Inyamaswa yo mu gasozi impara, ikaba ari inyamaswa y'agasozi ijya gusa n'itungo ryo mu rugo ry'ihene. Bikaba bitandukaniye cyane ku mahembe, ay'impara ni maremare kuruta ay'ihene. Akaba rero ari akanyamaswa keza cyane karyohera amaso, abahigi bakunda cyane kugahiga n'izi...

Ishuhe, igishyuhe cyangwa se imbata irimo koga mu mazi, ikaba yizihiwe cyakora ikaba inabereye ijisho, ababibona babona ko iteye ubwuzu kandi ikaba izi kugenda neza mu mazi ni ahantu hayizihiza kandi hayinezeza mu mazi.

Inyoni nziza ziteye neza, zifite amabara meza, akaba ari zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo kugira ngo baze kwihera ijisho. Zikaba zakwinjiza amadovize mu batuye ahantu runaka.

Kagoma cyangwa se ikizu ni ikiguruka kigira imbaraga nyinshi cyane gifite umutwe w'izahabu ,kikagira amaguru majanja akomeye cyane, gishobora guhiga gufata umuhigo kigafata ifi iri mu mazi, iri hasi cyane kikayikurayo kikayizamura. Gishobora kwinjira mu mazi kikazamukana ifi kikayizamura igahinduka umuhigo.